Mu kigo cy'amashuri hari abanyeshuri batonze umurongo, harimo abakobwa, harimo abahungu, hari idarap ry'Igihugu, imbere yabo hari abayobozi babiri bambaye itaburiya, ni mu kigo cy'amashuri.

Ni akapu gatetse ku meza, kari ahantu hasize irangi ry'umuhondo, gasa ubururu, ni ak'umwana, ugiye kwiga, bigaragare ko ari umwana ameze neza, agenda ku ishuri yambaye neza ndetse ahetse n'akakapu keza.

Ni mu kigo cy'amashuri, ku meza hariho urupapuro rushushanyijeho ibishushanyo bifasha abana kwiga, hari igishushanyo gishushanyije ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse abana bakiga kandi bakagira ubumenyi.

Hari abana benshi batonze umurongo, bambaye amakanzu y'umweru n'ubururu ndetse n'ingofero, inyuma yabo hari ababyeyi b'abamama ndetse n'abapapa baje baherekeje abana.

Mu kigo cy'amashuri hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri, hejuru isa ubururu bwerurutse, hasi n'ubururu bwijimye, bambaye inkweto zifunze, imbere yabo hari umuyobozi uri kubereka ibyo kwiga ndetse abo bana bari kubireba, harimo akobwa harimo n'abahungu.

Mu muhanda w'amaguru harimo abagenzi, abakobwa ndetse n'abasore, ku ruhande hari indabyo, imbere hari inzu ifite amarangi y'umuhondo hari n'ibiti ku ruhande.